Abantu bishimye bari kubyina bizihiwe cyane bari kunywa n'ibinyobwa ahantu amatara ari kwaka mu kabari keza cyane rwose hari n'amahumbezi menshi.

Urupapuro rugaragaza ibiciro by'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa ahantu mu kabari n'amasaaha yabyo bifatirwaho.

Ibicuba birimo amata ahantu mwikusanyirizo ryayo ndetse numuntu uri kuyakusanya kandi akaba ateretse neza cyane ibicuba binafite nisuku nyinshi pe!

Vuba vuba ni urubuga wakoresha wohereza ibiryo mu baturage, ndetse n'abaturage barukoresha bahamagara ngo babashyire ibiryo mu mago iwabo.